Abagabo bane bafite urushundura, mu rushundura harimwo amafi, aya mafi bavuye kuyaroba mu byuzi by'amafi iruhande rwabo, hariho abana babiri n'umugore uri kumwe nabo, bari kwitegereza ayo mafi bamaze kuroba.

Isoko ricururizwamo amafi. Amafi ni kimwe mu bikomoka mu mazi. Kandi akaba akungahaye ku ntungamubiri. Amafi akundwa n'abantu b'ingeri zitandukanye, bitewe na vitamini bayakuramo.

Umutego w'amafi uzwi nk'urushundura uri mu mazi. Hatezwe amafi. Igice kimwe cy'uwo mutego kiriho ibyuma, ahandi hariho za masine. Hatezwe amafi kugira ngo haze kubonwa cyangwa se kuroba ibikomoka mu mazi.

Ifi ebyiri ziriho igice cy'ironji. Hariho n'ikindi kirungo. Ziri buze gutekwa hanyuma ziribwe. Ifi kandi zizwiho kuba ari bimwe mu byubaka umubiri.

Ubwato bukozwe mu biti, abarobyi babuhagaze hejuru barimo bararoba amafi yo kugurisha, abantu bakeneye amafi baraza bakayagura bakayajyana iwabo mu ngo bakajya kuyateka, nkuko ifi iri mu bikomoka ku matungo kandi bikaba mu byubaka umubiri.

Ibyuzi byororerwamo amafi, iruhande rw'ibi byuzi hateye ibiti, amafi ava muri ibi byuzi ajyanwa ku isoko, hanyuma abantu bakayagura bakajya kuyateka, abakorera imirimo muri ibi byuzi n'abo babona amafaranga iyo barobye amafi.

Umurima umaze gusarurwamo imyaka y'ibigori, nyuma y'uko basaruyemo ibigori, ibikenkeri barabitema bakabikuramo indi mishingiriro, aha hantu hakorerwa ubuhinzi.

Urutoki rwiganjemo ibitoki byo mu bwoko bw'inyamunyu. Uru rutoki rurakoreye kandi harimo n'amateke. Ibitoki bitanga amafaranga kuri ba nyirabyo, kuko iyo babisaruye hari ibyo bajyana ku isoko. Ibindi bikaba ibiryo, bakabirya murugo.

Umurima umaze gusarurwamo ibigori, nyuma y'uko ibigori byumye abantu barabivuna bakabijyana mungo, hanyuma ibikenyeri bakabitemagura bikaza kuvamo ifumbire bongera gufumbiza uwo murima.

Umurima ugizwe n'imitabo iteyemo karoti. Imitabo iteyemo karoti harimo umugore uri kubagara, karoti ni imwe mu bihingwa abantu bakunda cyane kuko karoti ivura amaso.

Umurima umaze gusarurwamo ibigori. ibikenyeri iyo bamaze gusarura ibigori hari ibifatwa bikajyanwa mu murugo kugira ngo babizitize ingo cyangwa se bakabikatagura bikaza kuvamo ifumbire yo gufumbira umurima.

Igihuru kirimo ibyatsi, hateyemo pasiparume, harimo kandi igiti cy'ikizibaziba, hakabaho iruhande rwaho hariho imishubi. Aka ni agashyamba gakunze kubamo utunyamaswa dutandukanye.

Umugabo wambaye itaburiya y'icyatsi. Yambaye bote, akambara n'agapfukamunwa. Ari mu murima w'inyanya z'umushingiriro. Ari gusarura inyanya zeze, kugira ngo azijyane ku isoko bamuhe amafaranga.

Ikiganza cy'umuntu kiri mu bigori. Ibigori byumye by'umweru. Ibigori by'amahundo. Iyo ibigori byumye bajya kubihungura, hanyuma bakabibetesha bikavamo igikoma.

Abajyanama b'ubuhinzi bambaye, imipira y'inifome y'icyatsi bari gusura imirima ntanga rugero, imirima ihinzemo ibishyimbo bigufi, mu murima harimo umuhungu wambaye umupira w'umukara, afite terefone mu ntoki.

Amateke y'amabwayisi, amateke ahingwa mu gishanga, aya mateke agira amafu, aya mateke akundwa n'abantu b'ingeri zitandukanye kubera uburyohe bw'aya mateke, aya mateke kandi akunze guhingwa mu turere two mu Ntara y'Amajyaruguru.

Uruganda rutunganya voka rugakoramo ibintu bitandukanye harimo abakobwa bambaye imyambaro y'umweru n'ingofero z'umweru. Bari gukora muri voka kugira ngo bakoremo amavuta.

Umufuka uriho pavuro, pavuro ziratanditse, iruhande rw'umufuka hariho ibase iruhande rw'ibase hakabaho agapaniye, aka gapaniye karimo inyanya, iz'inyanya n'izi pavuro abantu barabihaha, bakajya kubyongera mu biryo, kugira ngo ibiryo birusheho kuryoha.

Isoko ry'abantu bacuruza inanasi ,zirambitse ku mufuka ni inanasi zitukuye ushaka araza akagura inanasi bigendanye n'ubushobozi bwe, hariho kandi inanasi ziri mu ndobo ,uwashaka yaza akagura inanasi yose cyangwa se akagura agace k'inanasi.

Ingurube z'ibyana ziri mu kiraro, izi ngurube zisa nk'umweru iruhande rw'izo ngurube hariho abagabo, umugabo umwe afite urupapuro mu ntoki arimo gutambagiza abantu batandukanye, kugirango baze bahahe ingurube.

Umugabo uri muri pepeniyeri yambaye bote z'umukara, ipantaro y'ubururu ndetse n'ikoti ry'umutuku. Mu biganza bye afite ibihoho bibiri biteyemo imigano, iruhande rwe hari uruzitiro rw'ubakishijwe imbaho, ndetse iruhande rwe hariho ibindi biti biteye mu bihoho.

Umufuka uriho ibigori by'umuhondo. Umufuka uteretse ku isima. Ibigori ni impungure, babihunguye barabyoza. Bagiye kubibetesha kugira ngo bakuremo ifu yo gutekamo igikoma.

Umugabo uhetse imyumbati ku igare, yayizirikishije umukoba Uyu mugabo abandi bantu bari kureba imyumbati afite kugira ngo hagire uwayihaha ajye kuyiteka iwe. Imyumbati ni kimwe mu biribwa byongera cyangwa se bigatera imbaraga.

Umurima uhinzemo ibitunguru, ibitunguru ni bimwe mu biribwa bizwi nk'indyoshyandyo. Ibitunguru bishyirwa mu biryo kugira ngo bize guhumuza ibiryo bitetswemo hanyuma bikurure apeti cyangwa se bitume ugiye kubirya agira ubushake.

Abagore babiri bari mu murima, umugore umwe ahetse umwana, isuka ayifite mu ntoki, undi na we ari kumwitegereza, bari guhinga mu murima, bari kugira ngo nibarangiza kuwuhinga bateremo imyaka.

Umujyanama w'ubuhinzi; umumama wambaye umupira w'icyatsi wanditseho RAB, yiteze igitambaro cy'umukara, afite i base irimo itaka agenda yongera kuri pavuro, ni muburyo bwo kuzamura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi cyane cyane hibandwa ku musaruro wa pawuro.

Umurima uhinzemo ibigori, ibigori ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu, ibigori abantu barabikunda cyane kuko iyo byumye bajya kubibetesha hanyuma bakavanamo ifu yo guteka igikoma.

Umukobwa urimo guseka, yambaye ingofero y'umukara, y'urugara yambaye kandi umupira w'umweru, afite imisatsi miremire, ari mu murima wa pavuro, pavro zimwe zisa icyatsi, zindi zisa umuhondo, pavuro ni kimwe mu bihumuza ibiryo, ibiryo birimo pavuro abantu barabikunda cyane.

Igihwagari igihingwa kimeze nk'indabo. Igihwagari iyo cyeze kivagamo amavuta meza cyane. Abantu benshi bakunda amavuta y'ibihwagari kuko iyo bayatetse mu biryo biraryoha cyane.

Ibigori bya tamira byumye, bimanitse, bimanitse mu kiraro cyubatswe n'ibiti, ibigori iyo byumye bajya kubibetesha hanyuma bagakoramo akawunga cyangwa bakavanamo ifu yo kunywa igikoma.

Umurima munini cyane urimo soya ariko zitari zera, ziracyari ntoya cyane. Soya zitari zera ziba zisa nk'icyatsi, soya kandi ni ingenzi ku buzima bwa muntu, kuko soya rimwe na rimwe zikorwamo amavuta, amavuta aryoha cyane.

Ikiganza cy'umuntu gifashe umushandiko w'ubunyobwa, ni ubunyobwa busa nk'umwenyu avuye kubusarura mu murima. Ubu bunyobwa abujyanye mu rugo kubwanika ngo abuhure, ubunyobwa bukungahaye ku mavuta. Iyo babujyanye mu ruganda babubyazamo amavuta.

Umugore wambaye ishati yubururu. Yiteze igitambaro cy'umuhondo , yikenyeje igitenge, mu ntoki afitemo intara. Arimo kugosora ibigori kugira ngo abivangure n'uruhumbu.

Imiteja isa icyatsi, imwe mu birinda indwara, nk'ubwoko bw'imboga muri rusange, zirambitswe ku nkoko umuntu agiye kuzikata, hanyuma azironge, aziteke.

Ibishyimbo by'umutuku by'indobanure nyuma y'uko bisaruwe ba nyirabyo bakuraho ibyo kurya byo kwifashisha mu ngo, ibindi bakabijyana ku isoko kugira ngo n'abatarabashije kubyeza babone ibyo guhaha babiteke. Ibishyimbo kandi bizwiho kuba ari ibyubaka umubiri.

Jaride rusange, ubusitani burimwo indabo. Ni umuco w'Abanyarwanda guhinga indabo. Indabo ziri mu bikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize, iyo baje gusura ahantu hari izo ndabo. Ni na byiza kandi kuko ubwo busitani butuma ahantu hagaragarara neza cyane.

Inyama z'umutuku, inyama ni kimwe mu biribwa byubaka umubiri, kandi zikaba zikomoka ku matungo atandukanye, harimo inka, ihene, intama ndetse n'izindi zororwa mu rugo.

Ibiraro birimwo ingurube z'umweru z'ibyana, abaganga b'amatungo bari iruhande rwazo, barimo barareba ko nta ndwara zirwaye, mu buryo bwo kugira ngo bakomeze babungabunge ubuzima bwazo.

Ishyo ry'inka ziri mu biraro ,harimo inka z'umukara n'umweru zizwi nk'ibibamba ,hakabamo n'izindi zifite ibara ry'umweru n'ibihogo abagabo bazihagaze imbere bafite inkoni birasa na harimo umwe uje kugabira abandi.

Abanyeshuri bari kwiga ubuvuzi bw'amatungo bambaye amataburiya y'ubururu, iruhande rwa bo hariho abarimu bari kubarebera no kubagenzura, bamwe bafite imakasi bari kubaga ihene, kugira ngo bongere bayidode, bari mu myitozo.

Inka y'umukara ifite ibara ry'umweru mu gahanga. Imbere y'inka hariho igisandugu iriramo. Hakabaho n'ikindi inyweramo amazi. Inka ni byiza ko zororerwa mu biraro, kuko bituma zitagendagenda cyane ngo zitarure indwara hirya no hino.

Inyana zisa n'bihogo zifite utubara tumwe tw'umweru, inyana iyo zikiri ntoya zitwa imitavu inyana iyo zikuze zivamo inka. Inka ni imwe mu nyamaswa abantu bakunda korora cyane, kuko itanga umusaruro mwinshi harimo amata n'inyama.

Inka y'inyambo inka ziri m'urwuri ziri kurisha ubwatsi inka y'inyambo ifite amahembe yenda guhura izi nka n'inka za kinyarwanda n'inka zo mu Rwanda rwo hambere; izi nka kandi abanyarwanda barazikundaga cyane zasimbuwe n'inka z'inkungu za kijyambere.

Umugabo n'umuveterineri bafashe inka. Umuveterineri arimo kuvura inka yambaye akarindantoki. Arimo gutera inka urushinge iruhande rwe hariho abana batatu inyuma yabo hariho inzu isakaje amabati y'umutuku.

Ubworozi bwingurube ikiraro kirimo ingurube y'umweru. Imbere yikiraro hariho umukobwa wambaye agasengeri k'umukara yipfutse igitambaro cy'umukara mu mutwe arimo guseka cyane. Ingurube nimwe mu matungo atanga umusaruro mwiza kandi mwinshi mugihe gito.

Igishuhe kiri mu mazi kiri kumwe n'utwana twacyo. Igishuhe ni kimwe mu binyabuzima biba mu mazi, cyitwaye nk'imbata ariko cyo ntabwo cyororwa. Gikunda kwibera mu mazi, ariko rimwe na rimwe kikava mu mazi kigiye gushaka ibigitunga ku butaka.

Inyoni ebyiri z'umutuku ziri ku ishami ry'igiti. Zifite iminwa yigondoye. Inyoni zo muri park zikurura bamukerarugendo kuko ziba ziteye ubwuzu. Baza mu gihugu bakatuzanira amadovize. Amafaranga y'amanyamahanga.

Inyoni ifite umunwa w'umutuku n'umuhondo. Ifite amasunzu ku mutwe. Ifite kandi ibisembe birebire by'umukara. Iyi nyoni ihagaze ku ishami ry'igiti. Inyoni nk'izi bamukerarugendo barazikunda cyane.

Inyamaswa y'inkende yuriye igiti cy'umugano, izi nyamaswa zikunda kwibera ahantu hari imigano kuko ari mwo zikura ibyo zirya, inkende ni inyamaswa zisa nk'abantu.

Inyoni ya kagoma. Inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti. Ifite ibara ry'umukara ku mababa ikagira ibara ry'umweru mu ijosi ,mu kindi gice ifite ibara rigiye gusa nk'umuhondo. Ifite ibisembe by'umweru. Kagoma ni imwe mu nyoni ziguruka ku muvuduko munini cyane.

Inkende ziri mu biti hejuru mu mashami y'ibiti ,ziri kumwe n'ibyana byazo .Utu ni tumwe mu tuyamaswa dukunze gukurura ba mukerarugendo ,zibera ahantu h'ibiti byinshi nko mu birunga kuko arimwo zikura imbuto zo kurya.

Bakame agasimba kaba mu ishyamba，agasimba k'akanyabwenge， ngo mu zindi nyamaswa， bakame iryarya izindi nyamaswa. Aka gasimba kakaba gateye nk'urukwavu， kariruka cyane.

Imbwa inyamanswa imoka n'impigi, imbwa zirinda ingo z'abantu, zibacungira umutekano, zikanarinda ibyabo, imbwa kandi ziba mu ishyamba, imbwa y'ishyamba yitwa umuhari.